Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke, aho bahagaze batonze imirongo, bari kugezwaho amabwiriza n'ababakuriye kugira ngo bajye mu ishuri bige.

Abana babiri bambaye impuzankano y'ishuri bakiri bato ndetse bakaba bahetse n'udukapu batwaramo ibikoresho byo ku ishuri igihe bagiye kwiga. Barimo baragenda mu muhanda w'igitaka.

Ni byiza gukoresha ibishushanyo by'ubwoko butandukanye igihe uri kwigisha mu mashuri y'incuke kuko abana bibuka vuba amashusho kurenza amagambo abantu baba bababwiye.

Abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke ni byiza kwifashisha amashusho atandukanye abereka ibikorwa bitandukanye, nk'abantu cyangwa se ibindi bikoresho bitewe n'ibyo ashaka kwigisha.

Mu kwigisha mu mashuri y'inshuke, ni byiza kwifashisha udukoresho dutandukanye cyangwa se utundi dukinisho kugira ngo tujijure abana ndetse tubafashe no gutekereza, bityo bazakure bameze neza.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, aho barimo barahabwa igaburo rya saa sita, hifashishijwe amasahani atandukanye. Bambaye impuzankano bose aho bicaye.

Umukobwa n'umuhungu b'abanyeshuri ba bafite agakwavu mu ntoki, undi akaba afite amakayi, inyuma yabo hari inyubako ishushanyije, mo imbere hakaba harimo izindi nkwavu.

Agakoresho kazwi cyane nko kuri kandagira ukarabe aho abaturage bagakoresha igihe bavuye nk'u bwiherero cyangwa se bakoze mu yindi myanda yose bityo bigatuma bagira isuku bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Udushushanyo twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza kugira ngo babashe guha abana inyigisho bafite ibyo bari kureberaho ndetse n'abana bakurikiye ibyo bari kubabwira.

Mu kwigisha mu mashuri y'incuke, ujye ukoresha ibishushanyo bitandukanye, mu gihe ugiye kugira ibyo ubabwira cyangwa se ubereke udusimba dutandukanye kugira ngo bajye bibukiraho.

Mu mfashanyigisho zo mu mashuri abanza haba harimo udushushanyo twabugenewe bitewe n'isomo umwarimu aba agiye kwigisha, nk'igihe agiye kwigisha ibijyanye n'umuco bakamuha ibishushanyo bigaragaza udukoresho twa kera.

Mu Rwanda rwo hambere habaga hari ibikoresho byifashishwaga mu mirimo itandukanye ya buri munsi y'abakurambere twavugamo nk'indyankwi, imiheto ndetse n'imyambi utu dukoresho natwo twabaga ari tumwe mu tugize ibyo bagombaga kugira.

Ikigo k'ishuri kigaragara ko gishobora kuba gishaje gusa cyubakishije amatafari ahiye n'amabati atukura, hari kandi ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda aho gishinze mu kuma karekare.

Abana bane, umukobwa n'umuhungu, bakaba bagiye bicanya. Imbere yabo ku meza hateretse, ibiribwa birimo imboga, umuceri ndetse n'amagi, ni byiza kurya ibiryo by'ubwoko bwose kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Buri kigo k'ishuri kigomba kugira ubwiherero ubw'abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo kimakaze umuco w'isuku mu Rwanda kuko ari intero y'Abanyarwanda, ni byiza kuko bifasha abana kwigira ahantu hameze neza.

Muri iki gihe mu burezi abana ni bo basigaye bagira uruhare runini mu byo bigishwa kurenza mwarimu nk'uko aba bana bari aha barimo barafatanya n'umurezi wabo mu guhanga ibikoresho byifashishwa mu kwiga binyuze mu bukorikori.

Mu kwigisha mu mashuri abanza ni byiza ko wifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amashusho afasha abana mu kuba bakwiga ibintu bari kureba ibyo ari byo kuko bibafasha kwibuka n'igihe ubajije.

Umunyeshuri urimo urakora ikizamini bamuhaye kugira ngo azahabwe indangamanota cyangwa se yemerwe kwimuka mu wundi mwaka yaratsinze neza afite amanota ashimishije.

Umwana w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, ni byiza kugira igikoresho kiba kirimo utundi dukoresho tumufasha guca imirongo igororotse cyangwa guca inziga zimeze neza.

Mu kwigisha mu mashuri abanza wifashisha ibikoresho byinshi bitandukanye, bifasha abana kuruhuka kugira ngo basubize ubwenge ku gihe ndetse babashe no kwitekerezaho bazafate ibindi uzabigisha.

Ni byiza ko igihe cyose ugiye kwigisha abana batoya cyane cyane abo mu mashuri y'inshuke bifashisha udushushanyo dutandukanye kuko tubakurura bagashaka kumenya utwo ari two.

Inyubako nziza ariko akaba ari ku rwinjiriro rw'ikigo giherereye mu Karere ka Bugesera i Nyamata ndetse bigaragara ko cyubatse neza kikaba gisize irangi ry'ubururu.

Urwinjiriro rw'Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye mu Ntara y'Iburasirazuba mu Karere ka Nyagatare kitwa Rukomo, uru rwinjiriro rukaba rusize irange ry'icyatsi.

Mu mashuri abanza, kera habaga hari umwarimu wigishaga isomo ry'imibare, agakunda kugorana kuko yatumaga abanyeshuri akuma kabaga karimo utundi dukoresho twifashishwa mu guca imirongo cyangwa se mu gushushanya ndetse n'inziga.

Ni byiza gukoresha ibishushanyo bigaragara by'inyuguti kugira ngo abana bige ndetse banabifate babibona neza cyane cyane iyo bigisha abo mu mashuri y'inshuke cyangwa se mu mashuri yisumbuye ariko batarabimenya.

Abana batoya barimo bariga bandika ku kibaho, harimo abakobwa n'abahungu bapfukamye ku biti ndetse bameze nk'abahawe igihano na mwarimu kuko bakoze amakosa.

Inyubako nziza yubatse neza mu buryo bwayo etaje, bigaragara ko ari ikigo k'ishuri, imbere hakaba hari imbuga iteyemo amabuye meza ndetse hicaye n'umuntu umwe.

Mu mashuri abanza abarimu bigisha bifashishije amashusho atandukanye iyo bagiye gutanga amasomo, nk'indabyo, imyambaro y'inkweto, n'ingofero ndetse n'amaradiyo harimo n'ibiribwa.

Kugira agakoresho kabamo utundi dukoreshasho twifashishwa mu kwiga cyane cyane isoko ry'imibare n'ubugenge, ni byiza ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ikiciro rusange ndetse n'amashuri abanza.

Igishushanyo kigaragaza umukobwa wafunze imisatsi ye ayifungiye mu mpande ndetse kikaba kifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke cyangwa se amashuri abanza kugira ngo abana babifate neza.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, ikaba ifite amadirishya ndetse n'imiryango, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, igaragaza ko ari ikigo cy'ishuri cya Wisdom.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bicaye aho barira kugira ngo basangire ifunguro rya saa sita ndetse babone uko basubira mu masomo yabo badafite inzara.

Mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza usanga baragiye bahashyira ibikorwa remezo nk'ibikinisho abana bifashisha igihe bagiye kuruhuka mu buryo bwo kubareshya kugira ngo bajye basubirayo badata n'ishuri.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema bakaba biganjemo bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amapantaro y'umweru, hirya ku ruhande hari abandi batambaye impuzankano baje kumva ibiri kuvugirwa aho.

Abana batoya bisa nkaho bakiri abanyeshuri, batonze umurongo barimo baragana imbere y'umugabo wicaye ku ntebe kugira ngo abahe serivisi baje kumwaka, inyuma yabo hari inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye.

Mu Rwanda uburezi buri kugenda butera imbere gake gake kuko bitandukanye nuko byahoze mbere, hasigaye hari amashuri y'inshuke yubatse neza ku buryo bugezweho nk'iri tubona ryubakishije amatafari ahiye.

Abantu bicaye bakikije ameza, imbere yabo hagiye hari impapuro ziriho ibyo bari buze kwigaho muri iyo nama yabahuje ndetse baritonze, bakurikiye ibyo barimo barababwira.

Inyubako y'Ikigo cya Gihengeri cyubatswe mu karere ka Nyagatare, yubakishije amatafari ahiye ndetse hariho n'icyapa kigaragaza indangagaciro z'icyo kigo ndetse na za kirazira cyubahiriza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru ndetse na kaki b'abo bakobwa ndetse n'abahungu, imbere yabo bahagaze umubyeyi ukiri muto wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ikoti ry'umukara ndetse n'amarinete.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'amarinete afashe igipapuro kimeze nk'amverope ndetse n'indangururamajwi, inyuma ye hicaye abandi bantu harimo abambaye impuzankano y'udupira tw'umuhondo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse hirya hakaba hari n'abandi biga mu mashuri yisumbuye y'icyiciro rusange, hirya yabo hakaba hari amashuri bakoresha iyo bagiye kwiga.

Mu cyumba k'ishuri aho hicayemo abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano hakaba harimo na mwarimu wambaye itaburiya y'akazi, arimo arigisha abanyeshuri ndetse yabahaye umukoro ari kugenda abakosora ibyo bishe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amupantaro ajya kuba umweru, bicaye iruhande rw'inzira y'abanyamaguru ndetse hepfo hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo, basa nk'abaje mu gikorwa runaka.

Ku nkuta z'inyubako yubakishije amatafari ahiye hari abantu batatu bambaye utujire bigaragara ko hari ikigo bakorera, hari kandi uruzitiro rw'ibyuma rubuza abantu kuba bagwa hasi.

Abanyeshuri bambaye neza, impuzankano ndetse na karuvati, ku mpande zabo hagiye hari abandi batari abanyeshuri. Bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Mu mazu ndangamurage yo mu Rwanda haba harimo udukoresho twa kinyarwanda ndetse duteye amabengeza, ku buryo buri wese yakwifuza kudutunga iwe kuko aba afite amatsiko yo kumenya uko dukora.

Abagabo bane hariho n'umukobwa umwe wa gatanu bakaba bafite icyapa kiriho amagambo agaragaza ko gutanga amaraso ari igikorwa kiza, hariho kandi ikirangantego cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse n'amagambo aranga ikigo k'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Ubusitani bwiza bw'indabo ndetse n'umucaca n'ibiti birebire, ku mpande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave.

Imbuga nziza isashemo amapave ku mpande ikaba ikikijwe n'utubuye twiza dusize amarangi y'umweru n'umukara, hirya y'aho hari ubusitani bwiza cyane burimo igiti kinini.

Mu mashuri makuru na za kaminuza kimwe no mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro usanga haba harimo bamwe bazi iby'ikoranabuhanga cyane n'abandi usanga batarisobanukiwe.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bwa etaje isakaje amabati atukura ikaba isize amarangi y'umweru, hakaba hari kandi n'uruzitiro rw'ibyuma rutuma abantu badahirima, mu nzira y'amapave hakaba harimo umugabo wambaye imyenda y'umukara urimo aragenda.

Inyubako nziza iteye amarangi y'umweru ndetse ifite amadirishya isakaje n'amabati y'umutuku birasa nk'aho hari inyubako ya kaminuza cyangwa se ikindi kigo gikuru k'ishuri.

Urubyiruko rwicaye ahantu heza mu cyumba k'inama, inyuma mu miryango no mu madirishya hakaba hari amarido meza y'imyeru, bambaye imipira yanditseho ikirangantego cya Mastercard foundation.

Mu mashuri makuru na za kaminuza usanga haba hari ibikoresho byose by'ibanze cyane cyane ibyifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abayobozi b'ayo mashuri kugira ngo babashe gutanga uburezi bwiza ariko rimwe na rimwe usanga babyirengagiza ndetse na Leta ntigire icyo ikora.